Ishuri, igikorwaremezo cyubakwa n'ubuyobozi bw'igihugu, kugira ngo umuntu wese abashe kwiga atuje kandi atekanye, ni muri urwo rwego bashyiramo ibikoresho by'ishuri, intebe z'abanyeshuri, ikibaho ndetse akaba ari n'ahantu hafunze, kugira ngo abana babashe kwiga batarangaye.

Rwe rwo kurangira abaturage aho baba bakorera usanga mu muryango haba handitsemo icyo bakora adiminisitiresheni boloke aho abayobozi baba bari bisobanura ngo uje ntayobagurika aza aza aho ajya.

Ni byiza nini, irimo ibikoresho bitandukanye bitewe n'icyo bakorera harimo n'intebe, habamo aho bicara batuje. Inzu nini cyane kandi irimo aho bashobora kwifashisha igihe abayi inkongi y'umuriro barimo faya faya egisitingwisha.

Ishuri aho abantu bamaze gutinyuka gukoreshwa ryigishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga baporejese ikibaho kugira ngo babashe kumenya uko bakoresha ikoranabuhanga.

Ishuri nibimwe mu bikorwa remezo leta yubakira ababyeyi kugira ngo abana babashe gufata uburere ishuri ry'incuke n'ishuri abana bajyamo kuva ku myaka ibiri, itatu kuzamuka kugira ngo abashe kumenya ubumenyi buzamufashe kwiga neza muri pirimeri.

Rishinzwe gufasha abari n'abategarugori kwiga umwuga wo kudoda kugira ngo buri wese abashe kugira icyo yakiteza imbere akoresheje umwuga yize adode ibitenge ,adode ibikapu ,adoda n'indi myenda itandukanye kugira ngo abashe kugera aho yigeze.

Ishuri ry'incuke rifite ibikoresho bitandukanye intebe abana bicaraho ,ibikuta bishushanyijeho udupusi ndetse n'ibindi bishobora gutuma umwana yiga neza bikamukurura, handitseho uko bandika imibare kuva kuri rimwe kugeza kuri mirongo itatu, ikibaho cyiza ibyo bituma umwana yiga neza atekanye.

Guverinoma yacu y'u Rwanda yashyize imbere cyane ishyiramo imbaraga mu mashuri y'ubumenyingiro cyangwa imyuga, kugira ngo umuntu uhize wese atahe asohoke mu ishuri afite ubumenyi ku buryo yabasha kwibeshaho, akishingira umushinga wabasha kumuteza imbere.

Umunyeshuri yimirijwe imbere mu gusobanurirwa no gukora ibijyanye n'ibyo yize. Haba mu ishuri haba mu rugendoshuri, sare igaragaza gushyira mu ngiro ibyo abanyeshuri baba babonye mu ishuri, bakabishyira mu ngiro bakoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo imashini nyinshi ariko zikora umurimo umwe w'ubudozi. Badoda imyenda itandukanye, kandi bikagirira ubikora umumaro kuko bimwinjiriza amafaranga.

Iyo wize guteka nk'umwuga ariko ntubone ibikoresho ntabwo ubimenya. Umunyeshuri yamaze kwiga mu ishuri bita tewori araza kujya no hanze agafata ibyo bita pulatike atega ibyo yavanye mu ishuri akabishira mu ngiro bigatuma na we abasha kwiteza imbere.

Mu ishuri baduha bikeya byatuma bidufasha kuvumbura ibindi , bigatuma umuntu abasha kumenya uko akwiye kwitwara akihangira umurimo uzamufasha mu gihe azaba ageze no hanze .

Umwana w'umukobwa nawe amaze gutinyuka aho abanyeshuri basigaye bicara bagatekereza ,ni iki bakora babivanye mu mutwe wabo aho bihangira umurimo, utandukanye wo gushushanya bagasanga, umwana w'umukobwa bimuhesheje ishema mu bandi.

Abanyeshuri batinyuka kwiga ibintu bigiye bitandukanye, ndetse nyuma yo kwiga no guhugurwa hakabaho uko bita gradiwesheni y'ibyo bamaze gukora. Basaza babo nabo bateye imbere barabyumvishije y'uko umurimo cyangwa kwiga bireba buri wese.

Tekinologi ntabwo ikiri iy'abahungu gusa, ahubwo n'abakobwa baratinyutse bitewe na Guverinoma yacu y'u Rwanda aho umukobwa na we abasha gushyira mu ngiro ibyo yaba yize, akabasha no kuvumbura, bigatuma igihugu cyunguka na we ubwe akunguka ubumenyi butandukanye.

Mu burezi bwimirijwe imbere aho umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu akora ikizamini atuje, atekanye kandi ari uburenganzira bwe akabasha gukora kugira ngo abashe gutsinda bimutere ishema ndetse n'igihugu cyacu muri rusange.

Abakobwa, abari n'abategarugori. Bari kwiga imyuga yo kudoda. Badoda neza bari kuberekera. Umwe afite metero ari kugenda areba uko bapima ibipimo, undi ari kumashini ari kudoda, mwarimu ari kugenda aberekera imashini yo kudoda idoda imyenda.